Aha ni mu ishopu, umuhungu afite imyenda myiza. Ndabona yasoye n'ibimaneke yabyambitse na byo ku myenda. Ndabona yicururiza amakoboyi cyane gusa.